Kwamamariza ikigo gitanga ubwishingizi ari cyo kizwi ku izina rya sonarwa, irimo gukangurira abantu kubaka hoteri yuzuye; ntibikwiriye guhungabanya urugendo rwawe. Bivuze yuko baguha inguzanyo bakanagufasha kuba wayubaka. Hakaba hari umudamu umeze nk'u uri ku buriri wambaye ibintu bizasa by'umweru u no kuri telefone.

Icyapa cyamamaza uburyo ki ushobora gufata ubwishingizi ku binyabiziga byawe mu gihe byafashwe n'inkongi y'umuriro, ikigo kitwa MANERA aho ushobora gutanga ari munsi y'amadorari mirongo itatu n'atanu.

Ikigo gitanga ubwishingizi bugiye butandukanye, kiri kwamamaza uburyo ki ushobora kubungabungamo ibintu byawe ufata ubwishingizi bwo kwibwa, aricyo kigo cyitwa Radiant insurance company, ntawamenya ejo wasanga ibyawe byibwe, irinde sinamenya.

Ikigo cy'ubwishingizi kizwi ku izina rya Sonarwa general insurance, ushobora kuba wagikoresha wirinda cyangwa urinda ibyawe, make your farm and agri-business grow faster ukoresheje Sonarwa, uburyo warindamo ubuhinzi n'ubworozi bwawe ukoresheje ikigo cy'ubwishingizi Sonarwa.

Abafasha abantu mu buryo bwo kubagabanyiriza ibihombo mu bucuruzi bwabo. Ufite impungenge z'ibihombo mu bucuruzi bwawe, wahamagara nimero itishyurwa, makumyabiri n'umunani makumyabiri n'umunani cyangwa ukabandikira kuri "Whatsapp" zeru karindwi, mirongo inani n'umunani, itatu karindwi, itatu karindwi, gatanu, gatandatu, bakagaha ubusobanuro bwimbitse.

Radiyanti, ikigo gitanga ubwishingizi ku bintu ndetse no ku bantu, aho kidushishikariza ko inzu yawe ni igishoro cyawe kinini, ikaba n'agaciro kawe. Menya neza ko inzu yawe yishingiwe kandi irinzwe na Radiyanti. Wifuza amakuru menshi wagana urubuga rwabo ari rwo www.radiyanti.rw cyangwa ukabahamagara makumyabiri mirongo itanu.

Ikigo gitanga ubwishingizi ku bintu ndetse no ku bantu kizwi nka Sonarwa, uburyo gikoresha mu kwamamaza ibikorwa byabo aho batubwira yuko tudakwiye guhangayika tugomba kohereza ibisabwa byose kumenyesha impanuka igihe cyose naho turi hose, mu gihe ushobora no kubabona kuri nimero icyenda zeru zeru zeru.

Uburyo bukoreshwa mu kwamamaza buzwi nka adivatayizimenti mu ndimi z'amahanga aho bari kwamamaza ikigo gitanga ubwishingizi ku bintu ndetse no ku bantu cyitwa sanamu, ubu kikaba cyabaye sanamu aliyanse ahari umukobwa wambaye ishati y'ubururu agapira k'ubururu, n'ipantaro ndetse inyuma hakaba hari igikuta cy'ubururu.

Ipoto rinini, ririmo icyapa mu mabara y'ubururu bwijimye, ryamamaza ndetse mu nyuguti z'ubururu bw'ikirere n'izindi nyuguti z'umweru.

Ikigo cy'ubwishingizi kizwi ku izina rya Radiant, aho isezerano riba ari isezerano, ni byo nta kindi bisaba kugira ngo na we ugere ku mushinga w'inzozi zawe, wakoresha telefone yawe ukanda akanyenyeri gatanu, gatatu, rimwe, urwego, wizigamire maze wungukirwe utere imbere.

Apurikasiyo bizwi mu ndimi z'amahanga, ikoreshwa n'amabanki agiye atandukanye, izwi nka agisesi, uburyo winjira muri konti yawe bitewe na banki ukoresha ukabasha kubona amakuru ahagije kuri konti yawe, uko amafaranga yinjiye, uko yasohotse ndetse n'ubwizigame bwawe uko bungana.

Kuri murandasi agaragara ko yinjiye ku rubuga rwe, ari gufata serivisi za banki akoresheje telefoni.

Muri konti y'umuntu runaka y'ubwizigame ariyo sevingi akawuti uburyo amafaranga yagiye avaho itariki n'ukwezi nayagiye yinjiraho nkaho tubona yuko zeru n'ibice zeru gatatu by'inguzanyo nandi y'inguzanyo cumi na gatandatu n'ibice mirongo icyenda n'icyenda.

Uburyo bw'ikoranabuhanga ukoresha ugira ngo urebe amakuru ahagije kuri konti yawe umenye amafaranga uko yinjiye, uko yasohotse, asigayeho ushobore no kuba wayakuraho uyajyana ku yindi konti mu gihe ubyifuza.

Kuri murandasi umuntu ari ku rubuga rwe rwa banki aho ari kureba niba ashobora kuba yahabwa inguzanyo ya banki binyuze kuri telefone.

Uburyo bwizewe banki ya Kigali ,BK yashyizeho bwo gukura amafaranga kuri konti yawe uyashyira kuri telefoni no kuyavana kuri konti imwe uyashyira ku yindi konti ayo watanze mu kwezi umushahara winjiza n'ayo wakoresheje uhaha .

Umudamu uhagaze mu iduka, w'inzobe, uri guseka, ufite imisatsi migufiya, inyuma ye hakaba hari etajeri, iriho ibicuruzwa bigiye bitandukanye, amavuta, amasabune, ibiribwa, ndetse n'ibindi byo mu bwoko bunyuranye.

Mu iduka aho abantu bagurira ibintu bigiye bitandukanye, hari ugurisha urimo gusobanura ugura uburyo bwo kwishyura, ukoresheje onurayini cyangwa mu buryo bwa murandasi, wambaye ishati y'umweru, ufite imisatsi miremire ndetse akaba yambaye n'amadarubindi, n'uwo arimo kubwira wambaye ishati y'umutuku n'agapira mo imbere, umeze nk'uwamwenyuye.

Iduka ricuruza imyenda, imipira, amashati n'amakote ndetse ricuruza n'ingofero z'abagabo, imyenda yiganjemo iy'igitsina gore.

Iduka ricuruza ibijyanye n'imyenda igiye itandukanye, irimo amakanzu, amashati ndetse hakaba harimo n'imitako igiye inyuranye, imyenda ikaba iri kutwuma twabugenewe n'amakote y'amakositimu.

Iduka ricuruza ibijyanye n'imyenda igiye itandukanye, y'amabara atandukanye, umweru, umukara ndetse hari imigongo biranga yuko ari medini Rwanda, ikaba imanitse kutwuma twabugenewe ndetse ikaba igucururizwa ahantu heza, ku giciro cyiza.

Inzu, ku rukuta hariho imitako iri mu mabara atandukanye, ameza ariho ibintu bigiye bitandukanye, mu tubati harimo ibikapu by'umuhondo n'umutuku, ndetse n'inkweto ziganjemo iz'abadamu.

Iduka iryo tuzi nka botike hacururizwamo imyambaro igiye itandukanye, harimo; amapantaro azinze neza ari ahabugenewe ndetse n'amashati y'ubwoko bugiye butandukanye amanitse ku twuma twabugenewe.

Iduka ricuruza imyenda gakondo harimo ikoze mu bitenge harimo imitako igiye itandukanye, imitako iboshye ariyo iri ku bikuta n'indi iri hasi n'utundi tuboshye mu buryo butandukanye.

Iduka ricururizwamo imyambaro igiye itandukanye harimo: amashati, imipira y'amabarage atandukanye, ndetse n'inkweto izifunze, n'izindi za congo, ndetse hakaba harimo n'amashakoshi n'icyirori cyo kwirebamo mu gihe umuntu arimo kwitema umwambaro we.

Iduka ricuruza imyambaro y'abadamu, izwi ku izina ry'udutambaro, utu esharupe tumanitse ku gikuta ku twumwa twabugenewe mu mabara agiye atandukanye, higanjemo umukara, umuhondo, umweru ndetse n'andi agiye atandukanye.

Uyu mugabo uri imbere yanjye afite kompiyuta nini mbere yaho kato ku yindi ntebe ikurikira hari undi nawe ufite compiyuta yambaye ikabutura afite igikapu ateretseho komputer hari abandi bantu inyuma ye nanone bahuze bose bafite telefone bameze nkabari kuri interinete bicaye mu modoka nini ya litiko.

Inzu ikorerwamo iby'ubucuruzi higanjemo ibikoresho gakondo harimo uduseke, amahembe, ndetse n'imitako igiye itandukanye iri ku nkuta n'indi iri k'utwuma twabugenewe n'amashati akoze mu bitenge.

Imodoka iri mu ibara ry'umweru, nini ndetse yambaye amapine y'umukara. Abantu babiri bahagaze b'ibitsina gabo. Umwe afashe agakapu k'umutuku mu ntoki n'urufunguzo bigaragara yuko imodoka yaguzwe, akaba ari kubasha kuyiha uwayiguze.

Umugore utwite, umuzungu wambaye ikanzu ndende y'umweru n'uturongo tw'umukara ndetse n'umugabo we wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro uteruye akana, bari kubahereza urufunguzo rw'akagera moto, bigaragaza yuko ari imodoka baguze, uri ku rubaha akaba arimo guseka yambaye ishati n'ipantaro.

Icyapa kiri kwerekana aho bagurishiriza imodoka cyanditse mu mabara y'umweru n'ubururu, cyerekana n'aho imodoka zikorerwa, nyuma y'aho hari imodoka ihaparitse ndetse n'inyubako isize irangi ry'icyatsi kibisi hari jaride iteyemo ubwatsi.

Imodoka iri tayari kuba yagurishwa, iparitse mu muhanda ahabugenewe muri parikingi, imbere yayo hari igorofa ryubakishijwe ibirahure byinshi ndetse uwaba wifuza kuyigura cyangwa kumenya byinshi yahamagara nimero zikurikira zeru karindwi umunani mirongo itandatu na gatatu mirongo itatu n'umunani mirongo ine n'icyenda kane.

Imodoka iparitse muri parikingi inyuma yayo hari ubusitani butatse mu mabara y'umweru n'umukara hari n'icyapa cyanditseho Yundayi hejuru hari amasinga y'amashanyarazi inyuma hari ibiti.

Ikigo gicuruza ibijyanye n'imodoka z'ubwoko bugiye butandukanye kizwi nka Yundayi savisi ahakorerwa ubucuruzi bw'ibinyabiziga imodoka ziri mu mabara yose zifite karite ikomeye.

Imodoka enye ziri mu bwoko bumwe zifite ibara ry'umweru izizwi mu bwoko bwa quaster, zigurishwa ndetse nyuma yazo hakaba hari ahari ishyamba ndetse n'insina.

Ibyapa bya yundayi bimanitse hejuru y'uruzitiro rwaho ikigo cya yundayi gikorera, ku muhanda jaride y'icyatsi n'umuhondo ndetse n'umuntu uri gutambuka mu muhanda.

Imodoka ziri mu bwoko bumwe, ibara ry'umweru, zambaye amapine y'umukara. Hirya yazo hakaba hari ibiti ndetse n'inyubako y'amagorofa maremare zisa nkaho zigurishwa.

Ikigo kigurisha ndetse kikanakora amamodoka azwi mu bwoko bwa toyoto, kikaba gikora mu inyubako y'amagorofa maremare ndetse afite irangi ry'umweru n'icyapa kiri hanze kigaragaza ikibera muri iyo nyubako.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka izwi nk'igikamyo, umwe ufite agakapu mu ntoki ze gasa umutuku, bameze nkaho hari undi uri kumuha urufunguzo, iyo kampani ikaba yitwa Akagera moto bagurisha ibijyanye n'ibiziga bizwi nka caridarashipu mu ndimi z'amahanga.

Imodoka nini ziri mu bwoko bw'ibikamyo zitwara abafungwa aribo bagororwa zikaba zigurishwa hakaba hari abagabo babiri umwe bambaye imyambaro ya gisirikare ndetse n'undi wambaye ishati n'ipantaro ufite agakapu ku mutuku mu ntoki, imodoka zikaba ziri mu ibara ry'icyatsi ziriho ibirango bya arasi esi.

Imodoka nshyashya itarahabwa nimero irianga, mu mabara y'umweru n'umukara ndetse n'ibyangombwa birambitsemo imbere, iruhande rwayo hari izindi modoka zitandukanye.

Imodoka iri mu ibara ry'umweru n'amapine y'umukara ihagaze ku muhanda, inyuma yayo hari ibiti n'inzu ikaba iri muri Kigali kari maketi ikaba igurishwa.

Muri banki ahakorerwa ibikorwa byo kubitsa ndetse no kubikura amafaranga y'abaturage, hakaba hari abatonze umurongo bategereje ko babafasha muri serivisi runaka bifuza, barimo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo.

Ibiganza by'umuntu bifashe amafaranga y'ibihugu bigiye bitandukanye, andi ku ruhande agiye ari mu mishandiko ndetse n'akamashini gateranya amafaranga mubazi.

Umuhanda w'umukara harimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka ifite ibara ry'umweru, indi modoka ifite ibara ry'ubururu n'umukara, yanditseho amagambo mu ibara ry'umutuku n'umweru, harimo kugenda amapikipiki ahetse abantu, asa umutuku n'umweru.

Inote y'ijana yanditseho banki nasiyonari y'u Rwanda, iriho imisozi ndetse n'ibibaya, yakoreshwaga mu gihe cya kera mu gihugu cy'u Rwanda, ikagura ibintu bigiye bitandukanye ndetse ikifashishwa mu rugendo mu bucuruzi n'ahandi hose.

Ahabikwa ndetse hakanabikuzwa amafaranga hazwi nko muri banki, aho ubishinzwe arimo kwakira amafaranga y'uje kuyabika cyangwa se akaba agiye kuyamuha ari mu note za bitanu ndetse n'ibyangombwa by'uje kwaka iyo serivisi uri kubikora akaba ari mu mwambaro w'ubururu ndetse ni'cyangombwa kimugaragaza aricyo baji yambaye mu ijosi.

Inote y'ijana hariho igice cy'imbere n'igice cy'inyuma aho tubona yuko hari umugore uhetse umwana hakaba hari ibibaya n'imisozi ku gice cy'inyuma turabonaho impala n'amagambo yanditse mu rurimi rw'igifaransa.

Ahacururizwa ibigiye bitandukanye mu ndimi z'amahanga bizwi nka deli porodakiti shopusi, harimo amata y'ubwoko bugiye butandukanye ari mu tubido tunini ndetse n'afunze mu dukarito dutoya azwi nk'aya mukamira ndetse na foromaje mu ndimi z'amahanga, byose bikaba bikomoka ku mata.

Abantu babiri b'ibitsina bitandukanye, igitsina gabo wicaye ndetse n'igitsina gore uhagaze wambaye agakoti k'umukara ndetse n'ikanzu iri mu tubara tw'umukara n'umweru, bari mu iduka ricuruza ibijyanye n'amata, ndetse n'ibindi binyobwa bitandukanye, amaji ndetse n'amandazi n'amakeke, biri mu tubogisi, hari irangi ry'ubururu ndetse na purafo y'umweru.

Mu iduka risanzwe ricuruza ibintu byo kunywa ndetse n'ibyorya, rizwi nka Daily product shops, harimo amata y'ubwoko bwose ikivuguto ndetse n'inshyushyu, hakaba hari ufashe keke mu ntoki, afatishije agapapuro kabugenewe ndetse hakaba hari n'intebe y'ubururu.

Iduka ricuruzamo ibintu bigiye bitandukanye ahari firigo gusa itarimo ibicuruzwa, ndetse n'amabido abikwamo amazi azwi ku izina rya jibu, ahari umuryango w'ubururu.

Umugabo w'imisatsi migufiya w'inzobe ufite ubwanwa bwo hejuru wambaye umupira wo kwifubika urimo amabara atandukanye ubururu, umweru n'umukara wambariyemo ishati, araburanishwa.

Inzu icururizwamo, harimo ibintu bigiye bitandukanye, ameza, intebe y'urubaho ndetse n'igare imbere y'umuryango n'umuntu w'igitsina gore uhagaze wambaye ikanzu iririmo ibara ry'umutuku ndetse hasi ku isima hakaba hari amakaro no ku nkuta z'inzu.

Iduka risanzwe ricuruza ibinyobwa biri mu bwoko butandukanye nkaho harimo inaji dirinki ndetse na twisita jinja n'ikawa y'umwimerere.

Ibice byinshi by'umugati wafunguwe ukavanwa mu bubiko bwawo, ndetse hari ibice bibiri bigaragara yuko byamaze kuribwaho n'umuntu.

Ni inzu y'ahavunjishirizwa amafaranga iri mu mabara y'umuhondo n'umukara, urugi rurafunguye ndetse abantu bari kuhinjira abandi bahasohoka.

Uburyo bw'ikoranabuhanga, ibizwi nka dijito peyimenti puratifomu, ushobora gukoresha mu kwishyura, mu gukiriyetinga ibintu bitandukanye harimo amasabukuru agiye atandukanye ndetse n'ibindi bigiye binyuranye bitewe n'icyo wifuza.

Ubyo buteye imbere bwo kuri murandasi, ukoresha wishyura ibizwi nka digito peyimenti puratifomu, ibintu bigiye bitandukanye, harimo umuriro w'amashanyarazi, ubukode bw'inzu amashuri ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye buzwi nka momo.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bizwi nka dijito peyimenti puratifomu, bwifashishwa mu kwishyura amafaranga ukoresheje murandasi cyangwa se enterinete, aho ubasha kwishyura ukamenya ayo usigaranye ndetse ukabasha no kugenzura ibikorwa byawe.

Uburyo bwo guhembwa ukoresheje ikoranabuhanga bitewe n'ibyo urimo gukora nk'aho uyu nguyu yatsindiye yahembwe amadorari magana atatu mirongo itanu, kuri konti yiwe akaba ari yo yagezweho.

Inyemezabwishyu igaragaza ko umuntu yishyuye amafaranga mu buryo budahererekanya amafaranga mu ntoki ariko bikorewe kuri murandasi.

Ifoto ya telefoni, iri kugaragaza uburyo wishyura ukoresheje murandasi, ukareba amafaranga yasohotse, asigaye, ayinjiye, ndetse n'uko wagura amayinite, n'ibindi bitandukanye.

Icyangombwa kerekana uwabashije gusora neza muri Rwanda reveni otoriti, ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro harimo amazina y'uwasoze ibyo yasoreye na kampani y'izina.

Urupapuro ruzwi nka certifica rutangwa n'ikigo kibishinzwe aricyo RAB (Rwanda Development Board) cyemerera umuntu gutangira business yiwe cyangwa ubucuruzi bwiwe, harimo amazina ya nyirri iyo company n'uko nayo ubwayo yitwa.

Urupapuro ruzwi nka rese rutangwa n'ikigo kibishinzwe aricyo Rwanda reveni otoriti, gishinzwe imisoro n'amahoro, ahaba hari amazina ya kampani, tini namba bakoresha basora, umubare w'amafaranga bishyura ndetse n'umukono w'umukozi ubishinzwe rukaba rutangirwa onulayini.

Urupapuro rw'inyemezabwishyu rutangwa n'ikigo cy'imisoro n'amahoro, Rwanda reveni otoriti, ruhabwa umukiriya umaze kwishyura amafaranga kuri serivisi yahawe n'umucuruzi.

Urupapuro rutangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, ari cyo Rwanda Revenue Authority, kigaragaza amazina ndetse na nyiri iyo campany, uko imisoro yagenze, umwenda basigayemo n'ibyo basoje kwishyura.

Urupapuro rutangwa na banki ya Kigali banke ofu Kigali, rugaragaza uburyo ki amafaranga yinjiye kuri konti yawe, uburyo ki yasohotse, aho yagiye akaba ariho imyirondoro yawe yuzuye, aho byakorewe ndetse nayo usigaranye kuri banki yawe kuri konti.

Urupapuro rwa Banki ya NCBA, ruri kugaragaza uwabikije n'uwibikuje amafaranga ndetse n'imikorere ya ba nyirabyo biriho. Byanditse mu mabara y'umukara.

Amafaranga akoreshwa mu bihugu bigiye bitandukanye cyane cyane mu bihugu by'i burayi azwi nk'amayero mu ndimi z'amahanga babyita foreni kareti handoringi ari mu mishandiko itandatu agiye afunzemo inote za maganabiribiri.

Amafaranga y'abanyamahanga ari mu manote ndetse n'ibiceri ariyo y'amatanzaniya, hari inote y'ibihumbi icumi, inote ya bitanu, inote y'ibihumbi bibiri ndetse n'inote y'igihumbi n'ibiceri bigiye bitandukanye, ku note hakaba hashushanyijeho inzovu handitseho banki ku ya Tanzaniya.

Amafaranga azwi nk'amayero akoreshwa mu bihugu by'amahanga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, harimo inote y'atanu, iy'icumi, iya makumyabiri, iya mirongo itanu, iy'ijana ndetse n'iya magana abiri.

Urujya ni uruza rw'abantu bari kwamamaza umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu bakaba barimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba biganjemo abantu bambaye imyenda y'ibara ry'icyatsi, bari mu ma tente arimo amabara y'umweru, icyatsi n'umuhondo, bamwe bakaba bafite ibyapa biriho ifoto y'umugabo wambaye kositime byanditseho ngo tora, bakaba bacyikijwe n'ibiti byinshi ku musozi.

Amafaranga y'amayero akoreshwa hirya no hino ku isi cyane cyane mu bihugu by'i Burayi, akaba afite agaciro gahambaye bitewe nuko akomeye, akaba ari inote zigiye zitandukanye za mirongo itanu ziri mu birango bisa.

Amafaranga y'amanyamahanga agiye atandukanye ari kubarwa n'umuntu ayo twita foreigner current handling ashobora kuba yavunjwamo ayo mu kindi gihugu bitewe n'aho umuntu aherereye.

Inote yo mu gihugu cya Tanzania y'ibihumbi icumi, ku gice cy'imbere cyayo handitseho amagambo yo mu rurimi rw'Igiswahili benki kuu ya Tanzania, ndetse inyuma hakaba handikishijweho amagambo mu rurimi rw'Icyongereza bank of Tanzania agaragaza yuko iyo noti ari iyo mu Gihugu cya Tanzania.

Inzu y'ahavunjishirizwa amafaranga yo mu bihugu bitandukanye, ifite imiryango igera muri itatu, iteye irangi ry'icyatsi, hariho ibyapa biranga ko bavunja amafaranga yo mu bihugu bitandukanye, byanditswe mu ikaramu y'umuhondo.

Ni korodoro ifite imiryango itandukanye, hejuru handitseho ibyapa biranga amerekezo y'aho bavunjishiriza amafaranga ndetse n'aho bategera imodoka ziva kampala zijya i Kigali zikajya na bukavu imbere y'iyo nyubako hari imodoka ziparitse.

Icyapa cya kinini kiranga ahavunjishirizwa amafaranga yo mu bihugu bigiye bitandukanye giteye ku ruzitiro rw'inzu iri hafi y'umuhanda.

Inzu ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye aharimo ibyo tuzi nko kuvunja amafaranga mu ndimi z'amahanga bizwi nka foregisi biro andi karento egisicanje, kiyosike ndetse hakaba hakora serivisi za banki ndetse uwaba yifuza ubufasha yahamagara kuri nimero zabo zikurikira.

Icyapa kigaragaza aho bavunjisha amafaranga ariho bita shamasha feligisi biro, aho bavunja amafaranga ari mu madolari bakayazana mu manyarwanda cyangwa amanyarwanda bakayajyana mu madolari bitewe n'icyo umuntu yifuza.

Ahakorerwa ibikorwa bitandukanye bijyanye no kuvunja amafaranga yo mu bihugu bigiye bitandukanye bizwi nka folix biro and calto exgens kiuski mu ndimi z'amahanga.

Inyubako y'igorofa ahakorerwa ibikorwa byo kuvunja amafaranga, ndetse no guhinduranya, ikaba ari igorofa rirerire hariho icyapa ritwereka aho tugomba kwikoreshereza, aribo rizavo peyi na nimero ushobora kubabonaho, hirya yaho akaba ari icyapa cya Ayendemu Banke.

Inyubako y'aho bavunjishiriza amafaranga y'ibihugu bigiye bitandukanye, hari umukobwa uhagaze utegereje serivisi, ahetse igikapu cy'umukara, yambaye agapfukanwa k'umukara, afite ibyangombwa bye mu ntoki nayo aje kuvunjisha, hakaba hari udufatamashusho ari two kamera.

Mu nzu ikorerwamo ibikorwa bijyanye no kuvunja amafaranga ibizwi nka foregisi biro and karento egisicenje kiyosike. Ahari icyapa kihaturangira handitseho money exchange harimo ingeri z'abantu bagiye batandukanye baje kwaka iyo serivisi.

Icyumba gifite amakaro mu nzu yo hasi ndetse kirimo ibikoresho byo mu rugo, harimo intebe, ameza ndetse n'ibitanda ariko bigurishwa.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibikoresho byo mu rugo, harimo nk'utubati akaboko k'umukozi uri gusiga irangi kimwe muri ibyo bikoresho.

Aakorerwa ndetse hakanacuruzwa ibikoresho bitandukanye bikozwe mu mbaho, harimo intebe zo kwicaraho mu ruganiriro aho tuzi nko muri salo ndetse n'ameza n'akabati keza, hirya yaho hakaba hari inzu yubatse mu mabati.

Ahagurishirizwa ibikorwa bijyanye no kubaza mu mbaho n'ahakorerwa intebe z'ubwoko bugiye butandukanye, izo mu ruganiriro ndetse n'izindi zisanzwe nk'ahari intebe ikoze neza ushobora kwicaraho hanze cyangwa mu nzu iri imbere.

Ihoteri y'amagorofa arenze rimwe, ikozwe neza hasi hakoze neza ndetse no ku mpande hari imitako izwi nk'indabo z'ubwoko bugiye butandukanye, hakaba hari aharyamirwa ndetse n'aho barira.

Mu ihoteli icyumba kiberamo inama zigiye zitandukanye ahari intebe ziteye ku murongo ubwe zikoze kimwe ndetse n'amateleviziyo manini agiye ari ku bikuta afasha abitabiriye iyo nama gukurikirana ibiri kuba neza.

Mu ihoteli ahatangirwa serivise zitandukanye, hari icyumba kirimo mudasobwa kizwi nka laputopu iteretse ku meza ndetse hakaba hari n'intebe, hanze y'icyo cyumba hakaba hateye indabo ziri mu ibara ry'icyatsi.

Mu ihoteri mu gisate cy'aho barira, ahazwi nka resitora hari ibiryo by'ubwoko bigiye butandukanye, imigati amadeseri imbuto z'ubwoko butandukanye wotwmeroni, imyembe ndetse n'ibindi byo kurya bigiye bitandukanye.

Inzu icumbikirwamo abantu izwi nka hoteli, ikikijwe n'indabo zo mu bwoko butandukanye ziri mu mavaze amabara y'icyatsi n'amabara y'umutuku wijimye, ikaba ari inyubako igeretse iri mu mabara y'umuhondo.

Igorofa rigeretse inshuro eshatu, rifite amatara meza y'umweru, riteye irangiry'ubururu umweru ndetse n'umuhondo, ku gisenge imbere yayo hari ubusitani burimo ubwatsi bugiye butandukanye ndetse hasi hari n'inzira z'abagenzi bigaragara ko ari hoteri.

Icyumba gishashe neza hariho imisego, amatara ndetse n'amarido ku madirishya n'intebe zo kwicaraho igihe ari ngombwa mu cyumba, giherereye muri hotel indimi z'amahanga aho abayisuye baruhukira.

Hoteri y'igorofa rirerire, hakaba hari ah'ubwogero bunini buzwi izina rya pisine. Hakaba hari aho abantu baruhukira bicara bafite icyo barimo kunywa cyangwa kurya hatwikiriye ndetse n'imodoka ziri ahabugenewe guparikwa, n'ibiti biteye bidufasha mu guhumeka umwuka mwiza.

Hoteli ahabera ibikorwa bigiye bitandukanye wasohokera n'abawe, hakaba hari ahantu hanini harimo amazi menshi abantu bajyamo bakoga ibizwi nka pisine n'intebe ebyiri ziteye imbere yayo ndetse n'ibiti bihakikije bituma haza umwuka mwiza.

I hoteli isa neza irimo intebe zikozwe mu mbaho ndetse n'ameza n'utundi duto turi kuri kotwari natwo dukoze mu mbaho, ndetse n'inkingi zayo zikoze mu buryo bwiza nk'igisenge kiza cyane hakirirwa abantu b'ingeri zose.

Mu muhanda rwagati, ukoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'abanyamaguru bakoresha igisate cyabo, hakaba hari igorofa rirerire rikoreramo ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi kizwi nka Salamu aliyanza.

Igorofa ndende yubakishije ibirahure aha nini n'indabo hejuru yazo ziri mu mabara y'icyatsi gikoreramo ubwishingizi aribwo orude macuwa (old mature)cyangwa inshuwarensi kampani (insurance company)mu rurimi rw'amahanga hepfo hakaba hari ibiti naho imbere yarwo n'indi nzu iri kuruhande irimo kwaka amatara.

Inyubako ifite amarange y'icyatsi ndetse hari icyapa kiturangira ahakorera ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi ku bintu ndetse no ku bantu, aricyo cyitwa Odi Matuwo mu ndimi z'amahanga.

Ikigo gitanga ibijyanye n'ubwishingizi ku bintu ndetse no ku bantu kizwi nka prime insurance, aho kidukangurira kuzigamira ejo hacu hazaza. Ishami rya Rwamagana hari abambaye imipira y'umweru, ndetse n'amapantalo bafite n'udusakoshi mu ntoki, bahagaze imbere y'umuryango w’aho bakorera.

Inzu ikoreramo ikigo gishinzwe iby'ubwishingizi bw'abantu ndetse n'ibintu, aho gikorera mu nyubako nziza ifite amakaro hasi ndetse batanga ubwishingizi bw'ibinyabiziga ndetse n'ubw'abantu ku giti cyabo.

Igorofa rirerire rigizwe n'ibirahuri rikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye ,harimo nka serivisi z'amabanki nka etm cashpt ya beca aho ushobora gukura amafaranga kuri konti yawe ukoresheje icyuma cyabugenewe, aho ushyiramo ikarita yawe ndetse na serivisi z'ubwishingizi nka yueyipi inshoranence.

Ikigo cy'ubwishingizi kizwi ku izina rya Radiant Insurance Company gitanga ubwishingizi ku bintu ndetse n'abantu, mu gihe wakwifuza amakuru arambuye wahamagara nimero itishyurwa, makumyabiri, mirongo itanu.

Inzu ikorerwamo ibijyanye no gutanga ubwishingizi ku baturage, buzwi nka mu yu eyi ,mu imbere harimo abaje kwaka serivisi n'abarimo kuyitanga bari mu myambaro y'ubururu ndetse hakaba hadekoyemo ibipirizo mu mabara atandukanye, ubururu na pinki hejuru ku gisenge.

Inzu iri ku muhanda itangirwamo serivisi zitandukanye zirimo ubwishingizi butangwa n'amabanki, aho wavunjishiriza amafaranga, uko wakwishyura amazi n'umuriro, ubu uko wahabwa viza ndetse n'uko ushobora kwishyura imisoro yawe naho ushobora gusaba serivisi z'irembo.

Inyubako y'ikigo cy'ubwishingizi ari cyo buritamu kikaba gitanga ubwishingizi ku buzima, ubwishingizi ku mitungo no ku bucuruzi, kikaba kizengurutswe n'ibipirizo biri mu mabara y'umutuku, umweru n'ubururu.

Inzu ikoreramo ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi kizwi ku izina rya Radiyanti inshuwalensi kampani, imbere yaho hakaba hateretse ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa moto iparitse imbere y'aho iyo nyubako ikorera, ikaba ruguru y'iyo nzu hari igiti ndetse n'urusinga rw'amashanyarazi.

Urufunguzo rugaragara nkaho ari urw'imodoka rufitwe n'umugore ndetse numugabo we; ku cyapa hariho ikarita ya banki bigaragara ko ari serivisi ya banki bamaze guhabwa y'inguzanyo.

Icyumba cy'amahugurwa, ku rukuta hamanitseho icyapa kigaragaza amahugurwa barimo, hejuru hari amatara y'umweru, harimo abantu bambaye impuzankano zigaragaza amahugurwa barimo ndetse bose bambaye udupfukamunwa.

Umugore witeze ibitambaro n'imyenda yambaye iri mu mabara atandukanye, afashe telefone mu ntoki, ari kwaka inguzanyo akoresheje terefone kuri sipeni anyuze ku ikoranabuhanga.

Umuntu wishimye wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara n'ishati y'ikigina, bigaragara ko yatsindiye ibihembo nyuma yo gusubiza ibibazo byatanzwe mu irushanwa ryo kwamamaza banki runaka.

Umudamu wambaye ibitenge umwenyuye wishimye ndetse ufite n'imisatsi, ni itangazo ryasohowe na banki y'urwego, igaragaza yuko umuntu w'umuhinzi ashobora gufata inguzanyo mu guhinga ibigori akabaho ubuzima bw'inzozi ze.

Igorofa rirerire ririmo ibikorwa bigiye bitandukanye iby'ama banki ni by'ubucuruzi, icyapa kitwereka kesibi banki Kigali kamasho (commacial bank ) mu ndimi z'amahanga ,ifasha abaturage bayigana kubaha inguzanyo bakiteza imbere n'ikindi cyapa kitwereka aho babetingira.

Urupapuro rutangwa na banki yitwa equity bank rwifashishishwa mu gihe urimo gusaba kuba wahabwa inguzanyo aho ushyiramo amazina yawe, icyo ukereneye ayo mafaranga, igihe uzayishyurira ndetse n'umubare w'amafaranga wifuza n'ingwate uzatanga kugirango ube babashe kuyaguha.

Inyubako ikoreramo ibijyanye n'amabanki, mu rwego rwo gutanga inguzanyo kubayigana, hateguyemo ikirugu giteguye neza, hasi hakaba hari impano zihateretse ndetse n'intebe abantu bicaraho bategereje kwakirwa.

Isoko ricuruza imyenda y'amabara atandukanye harimo abaguzi ndetse n'abagurisha, risakaje amabati y'ubururu ndetse n'andi ashaje utamenya ibara ryayo.

Igorofa rirerire rikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye harimo ubucuruzi, hatangirwa amaserivisi agiye atandukanye hakaba hari igice cyaje guparikwamo imodoka ibizwi nka muri parikingi ndetse hakaba hari n'abantu bari kuhagana baje gushaka serivisi zikorerwa muri iyi nyubako.

Mu isoko rusange hacuruzwa ibintu bigiye bitandukanye, hari umuntu uri gutambuka mu gitsina gore, yambaye ikanzu y'icyatsi, arererekera ahari ibintu bye bitandukanye, biri kuma meza birambuyeho ibikapu bimanitse hejuru, n'abacuruzi harimo n'abambaye udupfukamunwa tw'ubururu.

Isoko rya kijyambere rizwi nka maketi mu ndimi z'amahanga, inyubako ndende y'igorofa igizwe n'ibirahure iruhande rwayo hasi hakaba haparitse amamodoka ndetse n'abagenzi barimo gutambuka bahagana cyangwa se bajya mu bindi byerekezo.

Mu isoko ahazwi nka Market mu ndimi z'amahanga, hacururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, harimo imyambaro y'abadamu, iy'abana ndetse n'iy'abagabo, hakaba hari uwambaye jule usa n'uhakora ya kopedu heza, nomero cumi na kane Kanombe.

Mu isoko hacururizwa imboga n'imbuto ndetse n'ibindi bitandukanye. Hari umudamu wicaye yambaye imyenda y'umukara ndetse n'agatambaro mu ijosi, ufite imisatsi migufi. Hari ahari ibishyimbo biri ku nkoko, voka, imineke ndetse n'inanasi n'ibinyomoro.

Mu isoko hari urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye :abadamu, abakobwa, abagabo ,abafite ibyo bavuyemo guhaha ndetse ku umuryango w'isoko hakaba hari igisheke kimanitse ku rugi, hakaba hari n'umukobwa wambaye ipantaro ndetse n'agakoti n'ingofero mu mutwe ufite agafuka mu ntoki.

Isoko ry'biribwa bigiye bitandukanye harimo amashaza, karoti, ibitunguru, imboga biteretse byose ku meza agiye, atandukanye n'abacuruzi n'abagura.

Umukandida wiyamamariza kuba perezida wa repubulika w'ishyaka rya green gurini pate Frank Habineza ari kwiyamamaza abanyamakuru bagenda bamufotora abamwungirije n'abamuherekeje bamugaragiye abaturage bitabiriye inyuma ya senyegi yaho ari bitabiriye baje kumva ibyo abagezaho.

Mu isoko hacururizwa ibintu bigiye bitandukanye, hakaba hari abantu bahagaze kuri esikariye zisa umutuku washishutse ndetse n'abandi bari mu tuntu tw'utuzu tugiye dutandukanye bacururizamo inkweto z'ubwoko butandukanye.

Mu isoko ahari urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga bihaparitse imodoka n'amamoto, abinjira mu isoko bagiye guhaha ibintu runaka ndetse n'abarisohokamo hakaba hacururizwamo ibintu bigiye bitandukanye ibyo kurya, imyambaro ndetse n'ibikoresho byo mu rugo.

Mu isoko hacururizwa ibintu bigiye bitandukanye, harimo imboga n'imbuto, umudamu wambaye mu buryo bw'abasiramukazi yambaye ijire afashe uruboga mu ntoki ruzwi ku bwoko bwa burokori, asa nk'aho arimo kugura cyangwa se arimo kugurisha.

Mu isoko rusange hacururizwa ibiribwa ndetse n'imyambaro, mu gice cy'ahacururizwa ibiribwa hakaba hari umucuruzi uri guha umukiriya wiwe ariwe umuguzi w'umudamu, cyangwa umukobwa witeza agatambaro k'umukara, wambaye amaherena ndetse n'agashati kariho ibara ry'umukara, karimo utudomo tw'umweru uje guhaha inyanya.

Inzu itangirwamo serivise za MTN Mobile Money ndetse n'izindi zinyuranye za MTN, ikizwi nk'umurongo wifashishishwa mu itumanaho nka Mobile Money kiyosike mu ndimi z'amahanga, ahari umukozi wabo wambaye umupira w'umuhondo n'abaje bamugana bategereje ko abakira.

Ahakirwa ndetse hakanatangwa serivisi za mobile money; uburyo bwo kwishyura kohereza amafaranga ukoresheje telefone, umugabo n'umugore bahagaze bategereje ubakira hakaba n'umuntu uri kubakira ndetse hakaba hari n'ikirahure hagati yabo kibatandukanya.

Umuntu wambaye ipantaro y'ubururu ndetse n'agapira n'agakapu mu nda k'umukara, ufashe telefone ye mu ntoki, uri kureba ibijyanye no kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga bizwi nka mobayilo mani.

Inyubako iri mu marangi y'umuhondo, hariho ibyapa bya MTN, abantu barimo imbere ndetse n'abandi bari hanze, abambaye imipira ya MTN n'ingofero, hakaba haberamo ibikorwa bigiye bitandukanye bya mobayiro mani ndetse n'iby'itumanaho muri rusange.

Urupapuro ruriho ko umuntu ashobora gukoresha ibikorwa byo kwishyura akoresheje murandasi cyangwa terefone yiwe ari byo bizwi nka MTN MoMo, hakaba hariho izina rya nyir'iyo company cyangwa nyir'icyo kintu ndetse na nimero wakoresha ari yo Getpong enterprise, nimero ni mirongo irindwi n'umunani, mirongo icyenda, makumyabiri.

Utuzu tubiri dushinze ku muhanda, dukorerwamo ibijyanye na mobile money, ku mirongo igiye itandukanye, ariyo airtel money, iri mu ibara ry'umutuku, n'amagambo yandikishije umweru. Ndetse no ku ruhande rwo hepfo akari mu ibara ry'umuhondo, kandikishijweho amagambo y'umukara, ndetse harimo n'umutuku.

Iduka ritanga serivisi yo kubitsa no kubikura amafaranga kuri telefone. Umukiriya ahagaze hanze yaryo. Ndetse arikwaka serivisi umuntu urimo imbere.

Icyapa cya emutiyeni cy'umucuruzi, kiriho uburyo bwo kwishyura ibyoguze udakoresheje amafaranga mu ntoki, ahubwo ukoresheje terefone igendanwa.

Uburyo bw'ikoranabuhanga, bukoreshwa mu kwishyura ukoresheje Mobile Money ariyo MoMo pay, aho ukanda akanyenyeri, cumi na gatandatu, gatanu, akanyenyeri, gatatu, urwego, hanyuma ugashyiramo kode z'uwo ugiye kwishyura ari zo gatandatu, zeru, zeru, cumi n'ikenda, gatandatu.

Ahari umuzungu ndetse n'undi urimo imbere mu kazu wambaye umupira w'umutuku wanditseho kokakora ndetse n'umuzungu wambaye ishati y'umukara iriho imbere igitenge, afite amadarubindi mu ntoki aho yaje kwaka serivisi za mobile mane ababishinzwe.

Uburyo bwo kugura no kugurisha ibintu kuri murandasi buzwi nka onorayini shopingi aribwo buzwi nka negisite mu Rwanda, habonekamo amahirwe n'imbogamizi mu gihe urimo gukoresha ubwo buryo, ari bwo de rayize ovu i kamasi in Rwanda.

Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ubwo yarari kwiyamamaza agahaguruka mu modoka agasuhuza abaturage bamushagaye, bose bafite utwapa duto twanditseho efuperi, ndetse hari abajepe bari kumurinda bareba hirya no hino bamucungira umutekano.

Urubuga rwo kuri murandasi aho ushobora kugura cyangwa ukagurisha ibicuruzwa byawe, aho uhitamo ukanashyiramo serivisi ushaka, n'igicuruzwa wifuza ugashyiramo niba ugiye kukigurisha cyangwa kukigura, n'igihugu, n'idini ubarizwamo.

Uburyo bwo kugura ibintu kuri murandasi badusobanurira uko mu cyumweru babanya ibiciro sitowa bafite ibyo bafite muri sitoke uko bingana, ibiciro byabyo, hakaba hari umugabo wambaye ishati y' yumutuku n'ingofero yumutuku uteruye mu ntoki ziwe ibicuruzwa.

Uburyo wakoresha bw'ikoranabuhanga bwo kuba wagura ibiryo ndetse n'ibindi bige bitandukanye ukoresheje ikoranabuhanga, wandikmo urukari dotikomu, ukabonaho ibiryo bigiye bitandukanye ndetse ukaba wahitamo ibyo ushaka ukishyura ukoresheje ikoranabuhanga, bakaba babikugezaho aribyo twize nka onirayini shopingi puratifomu mu ndimi z'amahanga.

Uburyo bwashyizweho kuri murandasi ukoresha ugura ibintu ndetse wicaye iwawe bakaba babikugezaho, aribwo buzwi nka iduka onurayini shopingi. Ushobora kubasanga ku mbuga zabo zigiye zitandukanye aribo insitagaramu iduka doti rwa, fesibuke iduka onurayine, ndetse ni nimero zabo wabahamagaraho cyangwa wabandidikiraho kuri Watsapu.

Imodoka zizwi mu bwoko bw'ibikamyo zisa, zigera mu bwoko butanu bunarenga, inyuma yazo zifite ibirango bya Twiga, zikwirakwiza ibintu abantu baba bahashye onurayini, ibintu byinshi aribyo twita onurayini shopingi puratifomu mu ndimi z'amahanga.

Urubuga rwifashishwa mu kugura ibintu kuri murandasi hari byo bita onu line shopingi ali baba hakaba hari kutwereka ibintu bigiye bitandukanye ibiciro byabyo uko wabigura n'uko byakugeraho.

Inzu igurishwa mu mujyi wa Kigali, iherereye Kanombe hafi y'ikibuga cy'indege, bakaba bashakamo miliyoni ijana na mirongo ine z'amanyarwanda, ikaba ari inzu nziza iri mu mabara y'umweru ndetse ifite no hasi yakoze neza n'amatara yaka neza.

Uw'igitsina gabo wambaye ijire, y'umuhondo, urimo kudusobanurira ibijyanye n'ikibanza kigurishwa, hepfo y'iwe hakaba hari inzu ifite amabati y'umutuku, uwaba yifuza kukigura, yahamagara nimero magana abiri mirongo itanu, mirongo irindwi n'umunani, makumyabiri na gatanu, cumi n'icyenda, magana abiri mirongo ine.

Inzu ikodeshwa mu mujyi wa kigali, inzu nziza ifitemo amabara, marangi y'umweru, amatara meza, ndetse naho gutekera, naho kurira. Ikaba yishyurwa amadolari ibihumbi bitatu magana atanu ku kwezi.

Imodoka ifite irangi ry'umutuku wijimye ndetse n'ibirahure by'umukara, iparitse mu rugo rwiza ruteye irangi ry'umweru ndetse n'umuhondo n'amafaranga miliyoni mirongo icyenda n'eshanu icyo yagura muri Kigali.

Inzu yo gukodeshwa mu Rwanda mu mujyi wa Kigali, yubatse mu buryo bwiza, ifite ubwogero bwiza, bizwi nka dushe mu ndimi z'amahanga, ubwiherero ndetse uwayifuza akaba yayibona ku mafaranga, miliyoni ijana na mirongo itatu.

Inzu ikodeshwa ibihumbi magana atandatu ku kwezi ifite ubwiherero bubiri ndetse iherereye i Kigali i Remera.

Icyo amadolari igihumbi n'ijana ku kwezi ashobora kukugezaho muri sigali mu rwanda, inzu nziza y'umuturirwa yubatse neza ifite urupangu rw'umukara ikorotiriye neza amabara meza.

Imodoka nshyashya y'umweru, ifite ibirahuri by'umukara ndetse n'amatara y'inyuma y'umutuku, iri kwerekanwa ku cyapa cyamamaza serivisi batanga.

Inzu igeretse rimwe, ubwo n'amazu abiri, buri yose ikaba ifite ibyumba bine, ndetse ikaba ikodeshwa ibihumbi magana abiri mirongo itanu, ukaba wabasha kuyibona ndetse ukanayibamo.

Inzu ikirimo kubakwa itaruzura, igurishwa, ikaba igizwe n'ibyumba bibiri ndetse n'uruganiriro aho twita salo, hakaba hariho abarimo kuyubaka, hirya y'aho ikaba ifite ibiti, ndetse n'indabo biyikikije n'andi mazu ataruye hirya yayo.

Inyubako iri ahantu heza hasukuye ifite amabara y'umweru, ndetse n'inzugi za fime z'amabara y'umweru, harimo n'amakaro ku gice cyo hasi, ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi ijana mirongo itanu by'amanyarwanda.

Inyubako ifite igisenge cy'amabati y'umutuku ndetse n'inkuta zisigishije amabara y'ubururu bwererutse, iri ku muhanda, ifite n'ubusitani, ikodeshwa ibihumbi magana atandatu.

Inzu yubatse mu buryo bwa kijyambere ifite amakaro hanze ndetse no mu nzu mo imbere, imiryango myiza, n'amadirishya meza, hanze hakaba habaparitse imodoka. ikaba ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwogero bumwe. Ikaba iherereye Kibagabaga mu mujyi wa Kigali.

Inzu ikodeshwa muri Kigali amadorari ibihumbi bibiri, igeretse ifite ama esikariya meza, ku nkuta zayo hariho ibara ry'umweru n'amadirishya meza, hirya y'inzu hakaba hari ibiti, uwaba yayifuza yahamagara nimero zikurikira zero karindwi umunani mirongo itandatu cumi na gatandatu irindwi n'umunani icyenda.

Inzu ikodeshwa iherereye I Kigali Kanombe ifite ibyumba byo kuraramo bitatu ndetse n'ubwiherero bubiri ikodeshwa ibihumbi magana ane ku kwezi iteye irangi ry'icyatsi kibisi ifite irindi rangi ry'umuhondo ndetse amabati yayo ni umutuku ifite uruzitiro rw'ubururu ndetse n'ibyatsi by'icyatsi kibisi biyikikije.

Inzu yubatse ku nkengero z'umuhanda, ifite uruzitiro rw'umweru ndetse n'imitako y'umukara, iteye irangi ry'umuhondo, isakajwe amabati asa n'igitaka, ifite urukuta rundi rw'umukara, irakodeshwa ifite ibyumba bitatu, ndetse n'ubwiherero butatu, iherereye i Kigali Kabeza.

Inzu iri yonyine mu gipangu ikamba ihereye Kimironko muri Kigali ikaba ifite ibyumba bibiri, ubwogero bumwe ndetse ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atatu y'amanyarwanda ku kwezi uwayifuza yahamagara nimero zeru karindwi umunani, makumyabiri na karindwi kane, kane karindwi, umunani icyenda.

Inzu ikodeshwa mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Kacyiru, ikaba ifite igikoni cyiza gikoze neza gifite aho bakarabiriza ndetse banogereza ibyombo, ikaba ifite icyumba kimwe n'ubwogero bumwe, ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana abiri ku kwezi.

Iduka bacururizamo imyenda y'ubwoko bu butandukanye higanjemo igitsina gore, hari amakanzu amanitse ku ruhande ari mu mabara atandukanye, n'abantu barimo imbere bashobora kuba abaguzi cyangwa abacuruzi.

Aho bahahira hazwi nko mu isoko cyangwa muri shopingi moru mu ndimi z'amahanga, hagiye harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, by'ubwoko butandukanye ndetse hejuru ku gisenge hari amatara maremare ari kubimurika, n'abantu barimo kubihaha b'ingeri zigiye zitandukanye.

Inzu yahariwe kugurisha ibijyanye n'indabo, imitako harimo amavase, harimo indabo z'ubwoko bugiye butandukanye, ari mu mabara y'icyatsi, amabara y'ikijuju, umuhondo n'ubundi bwoko bugiye butandukanye, hari ari mu mavase manini n'amavaze matoya ari mu ibara ry'umweru.

Ahagurirwa ibintu bi bitandukanye mu ndimi z'amahanga hazwi nka shoping muzi harimo urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye abadamu ndetse n'ab'igitsina gabo hagurirwa ibikoresho bitandukanye byo mu gikoni ndetse n'iby'ikoranabuhanga aribyo electoronik ekwipummenti mu ndimi z'amahanga.

Mu isoko ahari urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye baje guhaha n'abari kubagurisha ibintu bigiye bitandukanye, harimo imyenda ibyo kurya ndetse n'utwumo bifashisha barimo guhaha.

Mu isoko hacururizwa ibintu bigiye bitandukanye. Hazwi nko muri shopingi rumuzi mu ndimi z'amahanga. Harimo ibiribwa, ibinyobwa, ibikoresho byo mu gikoni, imyambaro ndetse n'ibindi bitandukanye.

Inzu nini y'ubucuruzi ifite amatara y'umweru hacururizwamo ibiribwa bitandukanye harimo amazi, amata, imitobe, ikawa n'ibindi bitandukanye hahagazemo umuntu wambaye imyenda y'umukara.

Ni isoko ahahahirwa ibijyanye n'imyenda yo mu bwoko bugiye butandukanye; iy'abagore y'abagabo iy'abana arimo urujya n'uruza rw'abaguzi ndetse n'abagurisha, n'imyenda imanitse hanze ku byitwa maneke bigaragaza imiterere ndetse n'ubwoko bw'umwenda.

Mu isoko ahahahirwa ibintu bigiye bitandukanye bihazwi nka shopingi moluzi mu ndimi z'amahanga, harimo abantu bagiye batandukanye, abagore, abagabo ndetse n'abana n'abari kubafasha mu kuba bagura ibyo bintu, ari bo bacuruzi.

Ahabera ibikorwa bigiye bitandukanye, nko muri egisipo igice cy'abantu bari kwerekana ibikoresho byabo, ibikata mu bwoko bugiye butandukanye, aribwo bizwi nka sarade, k'utwuma twabugenewe, harimo abantu b'ingeri zose, abadamu ndetse n'abagabo barimo kudukoresha.

Mu isoko rusange aho bahahira hazwi nka shopingi moruzi mu ndimi z'amahanga, ahari uw'igitsina gore wambaye umupira w'umweru munini ndetse n'ipantaro y'umukara akaba afite averope mu ntoki, arimo guhaha ahari ibitunguru, inyanya n'ibindi biribwa bigiye bitandukanye.

Mu iduka ahacururizwa ibintu bigiye bitandukanye, harimo imbuto ndetse n'ibikomoka ku matungo agiye atandukanye, inyama, harimo umucuruzi uri guhereza amvilope uje kugura, akaba ari mu mwambaro w'umutuku, umupira n'ipantaro y'ubururu, akaba ari umucuruzi.

Akabati karimo imigati ifunitse mu mabara atandukanye, hari ikiganza cy'umuntu uri gutoragura umugati yambaye agakomo k'ubururu n'umupira wa'amabara atandukanye.

Icyizwi nka mutuelle de santé; abaturage b'u Rwanda bakoresha mu kwivuza, ariko ubwisungane mu kwivuza bukaba bugabanyiriza abaturarwanda, abaturage muri rusange mu kwivuza bitabagoye, haba hagizwe n'amazina ya nyir'ukwivuza ndetse n'igihe yavukiye n'abamubyara.

Mu nama yahuje abantu bagiye batandukanye, urwego rw'igihugu rubishinzwe ari rwo Rwanda social security boad(RSSB) barimo gusobanurira abantu ku bijyanye na Ejo heza aho umuntu yizigama ndetse ayo mafaranga akazamugoboka mu gihe kiri imbere ikaba yitabiriwe n'abashinzwe umutekano ndetse n'abandi batandukanye.

Ameza yicayeho umugangagu uri kwakira ibyangombwa by'umurwayi, ndetse inyuma ye hari guturuka undi muganga wambaye impuzankano, yinjira aho umurwayi n'umuganga uri kumwakira bari.

Ahateraniye abaturage b'ingeri zitandukanye ndetse n'abarimo kubafasha mu kuzuza imyirondoro yabo ku bwisungane mu kwivuza buzwi nka mutuelle de sante buri mu nshingano bw'kigo rssb rwanda social secuty bord bufasha abaturarwanda mu kwivuza ku giciro kiri hasi.

Icyumba kinini giteye irangi ry'umuhondo n'inzugi z'ubururu, igisenge gisize irangi ry'umweru mu tubati hakurya harimo ibitabo n'amakaye by'umutuku ndetse n'abakozi bari kwakira abaje babagana.

Abaturage bateranye mu nama rusange umuntu umwe arimo kubasobanurira ibijyanye na ejo heza nka bumwe mu buryo bwo kwizigama ukazakugoboka mu bihe biri imbere, ikaba ari ikigega cyashyizweho na Rwanda sosho secyuriti bodi.

Mu iduka riteye imbere rizwi nka supamaketi mu ndimi z'amahanga, ahakorerwa ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye, ibyo kurya byiganjemo ndetse rimwe na rimwe n'imyambaro, aho abaguzi barimo kwishyura bakoresheje ikoranabuhanga za telefone zabo n'urimo kuberekera uri mu mupira wa oranje.

Inzu yagenewe guhahirwamo kandi izwi ibyo baguze biri mu gapaniye gasi icyatsi harimo pavuro, dodo, inyama, amavuta tungurusumu n'utundi tuntu tugiye dutandukanye ubifite akaba yambaye umupira usa n'umweru.

Ni iduka rizwi nka supamaketi mu ndimi z'amahanga. Ahakorerwa ubucuruzi buteye imbere mu buryo bwiza, ahari ibikoresho by'isuku, amakaye yo kwigiramo ndetse n'abantu barimo kubihaha. Hari umusore wambaye ipantaro n'umupira ubururu.

Aha hahirwa ibintu bigiye bitandukanye mu isoko hazwi nko muri supermarket mu ndimi z'amahanga, ahari umugabo ufite akuma kabugenewe ko guhahirwamo, uri guhaha ibikoresho binyuranye birimo amasahani ndetse n'ibindi byo mu gikoni. N'undi wambaye imyambaro y'umuhondo iriho utuntu dushashagirana tw'ubururu ufite indangururamajwi mu ntoki.

Mu iduka ahazwi nko muri supermarket hacururizwamo ibintu by'ubwoko bigiye bitandukanye, nkaho kuri runo ruhande harimo amakaroni ibizwi nka nodozi bikozwe mu bwoko bugiye butandukanye, ukaba wabihasanga kandi ku giciro cyiza.

Ahazwi nko muri supamaketi mu ndimi z'amahanga hacururizwa ibintu bigiye bitandukanye harimo imboga n'imbuto, inyanya, ibitunguru, karoti n'ibindi binyuranye. Hakaba hari utugare twabugenewe two guhahirwamo, hari umudamu ufite umwana wicaye imbere barimo kugenda bahaha.